Abagabo babiri bambaye amakanzu y'imyeru bahetse amapompo mu mugongo bakaba barimo baratera umuti ibihingwa kugira ngo bice udukoko dutandukanye dushobora kubyangiza.

Amacupa arimo ibara ry'umweru, icyatsi, ubururu, afite imipfundikizo y'icyatsi arasa kandi ateye kimwe, amwe ageretse hejuru y'ayandi, ni amacupa arimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Umugabo wambaye umwenda w'umweru na bote, uturindantoki ndetse afashe n'ipompo mu ntoki ze arimo aratera umuti ibihingwa; ni byiza ko ibihingwa biterwa imiti bityo kugira ngo uwo muti wice udukoko dutandukanye dushobora kwangiza ibyo bihingwa.

Umugabo uri gutera umuti ibihingwa bye by'indabo kandi yambaye agapfukamunwa na ga mu ntoki ndetse yambara n'itaburiya ifite ibara ry'umweru, akikijwe n'ibyuma bigiye bitandukanye bisize irange ry'umutuku.

Umugabo ubona ko yihingiye umuceri ukaba ugeze mu gihe cyo kwera bityo rero akaba ari byiza kuwutera umuti kugira ngo arwanye udukoko dutandukanye dushobora kuwurira mu murima cyangwa se tukawangiza bityo bikaba byamutera igihombo.

Umugabo wambaye isengeri irimo amabara atandukanye nk'iry'umweru, umukara ndetse n'ubururu juru, afashe mu ntoki igikoresho kirimo amafi ndetse ari mu cyuzi yororeramo aya mafi, ari guseka kandi yishimiye umusaruro yakuye muri ubu bworozi bwe.

Uburobyi ni umurimo kandi nawo utunze abantu benshi. Gusa iyo ukora uburobyi utitaye ku buzima cyangwa se ku kuba amafi ari mu mazi ataragwira bishobora gutuma habaho izimira ry'amafi, bityo bigakora bikagorana kuzongera kuba wakongera kuroba. Ni byiza rero ko ubanza ukareka amafi akabanza akagwira bityo kugira ngo urobe...

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ahagaze mu nzira y'igitaka, inyuma ye hari urugomero rw'amazi ubona ko rukorerwamo ibintu bitandukanye, hashobora kuba hororerwamo amafi cyangwa se hari amazi yifashishwa mu kuhira.

Ibyuzi byinshi byoroherwamo amafi, biri mu gishanga kandi bikikijwe n'ibyatsi byinshi bigiye bitandukanye. Hakurya yabyo hari umusozi uteyeho ishyamba.

Abantu bane bahagaze muburyo bugiye burebana cyangwa se bateganye, bose bafite inshundura mu ntoki zabo, irimo amafi, ubona ko ari abarobyi bari baje kuroba.

Umugabo ufite ibase imbere ye y'umutuku irimo ibiryo ubona ko arimo arabinaga mu cyuzi kiri imbere ye yororeyemo amafi, akaba ari kuyagaburira rero.

Igihingwa cy'ikawa ni igihingwa kizamura ubukungu bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda muburyo bwihuse, umuhinzi w'iyi kawa agomba kuyitaho kuva igihe ayitereye kugera igihe imuhaye umusaruro ufatika.

Ubuhinzi bwagutse kandi bukorewe hamwe, bitari byabindi byo kuvanga, butuma haboneka umusaruro uhagije ku masoko. Ubuhinzi rero bw'umuceri, ni buhinzi bwiza kubera ko buteza n'imbere ubukora.

Ikawa ni kimwe mu gihingwa ngengabukungu cy'u Rwanda, ku buryo gihingwa mu bice byinshi bitandukanye by'igihugu, kandi uretse kuba gihingwa mu gihugu kikanagurishwa mu gihugu hari igihe cyoherezwa no hanze.

Ikawa ni kimwe mu gihingwa ngengabukungu, Abanyarwanda bahinga kandi bitaho cyane, kikaba ari igihingwa kigurishwa hano mu Rwanda ndetse no mu mahanga kubera ko kiryoha cyane.

Gucuruza imboga cyangwa se n'ibindi bintu bimera, nabyo ni ingenzi kuko bizanira amafaranga ubikora, umuntu rero wambaye imyenda y'icyatsi, urimo uracuruza imboga mu isoko rusange.

Umugabo uhagaze mu murima we, ari kureba niba imyaka ye cyangwa se ibihingwa bye byaramurumbiye cyangwa se byaramurumbukiye, yambaye agapira k'umuhondo akaba yifashe mu mayunguyungo, akikijwe n'ibiti cyangwa se n'imyaka irimo insina n'ibindi.

Ikimera k'ikawa ni kimwe mu bimera ngengabukungu k'Igihugu cy'u Rwanda kikaba kivamo ikawa icuruzwa hano mu Rwanda cyangwa se ikaba yakoherezwa no mu mahanga, kikaba ari igihingwa kizwi cyane mu Rwanda kuko giha abantu amafaranga.

Igihingwa cy'ikawa, ni igihingwa kigira akamaro kanini muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda kuko umuturage ugihinze abasha kubona bimwe mu bintu akeneye harimo, nko kurikira abana ishuri ndetse no guhaha bimwe mu bindi bintu, aba ashaka mu buzima bwe.

Utubido dufite ibara ry'umweru, tumwe duturetse utundi turambitse hejuru yatwo. Dufite imipfundikizo iri mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi. Tukaba tuzengurukije ibipapuro bishushanyijeho amatungo.

Amakarito y'ubwoko butandukanye amwe akaba afite amabara arimo umutuku n'umweru andi akaba afite amabara arimo ubururu n'umweru, yose akaba afite amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umukara n'umweru.

Amacupa afite ibara ry'umweru, andi asa umukara, bigaragare ko ari amacupa abikwamo imiti y'amatungo bitewe n'uko hariho udupapuro dushushanyijeho amatungo nk'inka ndetse n'ayandi magufi.

Udukarito twinshi tugiye dutondetse kandi turi mu bwoko bugiye butandukanye, turimo imiti ikoreshwa mu buvuzi bw'amatungo kandi hari agafite ibara ry'umutuku n'umweru ndetse hari n'akandi kariho ibara ry'ubururu n'umweru.

Amakarito afite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hamwe na move ndetse n'amacupa y'umukara, byose bikaba byifashishwa mu kubika imiti y'amatungo itandukanye.

Amacupa y'ubwoko butandukanye ari hamwe, hakaba harimo amaremare muri yo asa, ari mu ibara ry'umweru afite impfundikizo y'icyatsi, hakaba hariho n'ibipapuro biri mu ibara ry'icyatsi, ayandi arasa ubururu n'ayandi ari hiya afite imipfunikizo y'umutuku.

Indobo zifite ibara ry'umweru zigerekeranye. Zizengurukijeho agapapuro kari mu ibara ry'icyatsi kandikishijeho amagambo y'umukara n'ay'umutuku kandi kuri ako gapapuro hashushanyijeho amatungo atandukanye, yaba amanini ndetse n'amatoya.

Umugabo wambaye imyenda isa nabi, ufite inkoni, imbere ye hari inka ebyiri aragiye. Bari mu nzira, ubona ko idaharuye neza. Iruhande rwe hari imirima iteyemo imyaka naho inyuma ye hari amashyamba.

Ikibaya kinini kigali cyane, gihinzemo igihingwa cy'ikigori, igihingwa cy'ibigori ni igihingwa kizwi cyane mu Rwanda kandi gitunze abantu benshi, kivamo ibiryo nk'ifu ndetse igikoma, ubugari.

Abantu babiri, bari mu gishanga kinini, ubona ko gihinzemo umuceri cyangwa se ibindi bihingwa. Bakaba bafite amasuka, barimo barabihingira cyangwa se barimo barahinga ibindi bitandukanye.

Umuhinzi mworozi, wambaye ishati y'umweru, ari mu murima w'amasaka, yazanye amahundo, kandi hakurya ye, hari imisozi igiye itandukanye, iriho abaturage bahatuye ndetse iteyeho n'ibindi bihingwa bigiye bitandukanye.

Ikibaya kinini gihinzemo igihingwa cy'ibigori ubona ko gitoshye kimeze neza kandi bikiri bitoya, ubuhinzi bw'ibigori ni ubuhinzi bwateye imbere bitewe n'uko ibigori ari ibihingwa bivamo ibiribwa bitandukanye, haba igikoma, ubugari cyangwa se no kuba wabirya uko biri.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'ikoboyi ndetse na bote afashe ku byuma yegamiye, hirya ye hari inka iri mu ibara ry'umweru n'umukara ikaba ari inka yitaho.

Umugabo wambaye ishati y'umukara, ipantaro y'umweru. Ari kumwe n'umugore wambaye agakanzu k'umutuku barimo baraganira. Iruhande rwabo hari inka zifite ibara ry'umweru n'umukara, bigaragara ko bahagaze mu kiraro cyazo.

Abantu ubona ko bitabiriye igikorwa cyo gutera ibiti, harimo umugabo wambaye ishati y'umweru wunamye uritera igiti, hari undi muhagazeruhande wambaye ishati ya karokaro n'ipantaro ya kaki, iruhande rwe kandi hari abandi bantu benshi nabo ubona ko bitabiriye uwo muhango.

Abantu ubona ko bitabiriye igikorwa cy'umuganda cyangwa se cyo gutera ibiti, rero ni ingenzi gutera ibiti bitewe n'uko ibiti bigira umumaro utandukanye, ni bimwe mu bidukikije bidufitiye akamaro kuko biduha umwuka wo guhumeka.

Abantu bari mu buhinzi ,harimo uwambaye agasengeri ndetse n'ijipo bisa kacye. Yegeranye n'umubyeyi wasetse wambaye igitambaro mu mutwe cy'umutuku umupira urimo amabara y'ubururu n'umuhondo bose bafite amasuka mu ntoki.

Umukecuru wunamye ufite igitambaro mu mutwe cy'umutuku wambaye agapira k'umuhondo ukenyeye igitenge, ari mu murima we akaba arimo arabagara imyaka ubona ko igaragara nk'aho ari ibishyimbo. Inyuma ye hari umugabo wambaye umupira w'icyatsi n'ipantaro y'umukara uri kuvugira kuri telefone.

Abagabo babiri bari guhinga harimo uwambaye impuzankan y'igipolisi cy'u Rwanda, ndetse hirya ye hari undi mugabo wambaye imyenda y'icyatsi. Baje guha umuganda umugabo utuye mu cyaro, inyuma yabo hari ibyatsi ndetse n'ibihingwa bigiye bitandukanye twavugamo nk'urutoki, ibigori, n'ibindi.

Abantu bari kumwe barimo barahinga, bamwe bambaye imyenda iri mu mabara y'umukara, umweru ndetse n'ayandi, bamwe bafite amasuka mu gihe abandi bafite ibitebo bari kugenda bakuramo imbuto barimo baratera.

Ubuhinzi bw'ibigori, ni ubuhinzi bugezweho, kugeza ubu ngubu mu gihugu cy'u Rwanda. Igihingwa cy'ikigori ni igihingwa giteza imbere umuntu ugikoze bitewe n'uko kirera cyane vuba kandi kigira umusaruro. Ku muntu rero ugikora kimuteza imbere.

Igiti cy'umwembe gifite ibibabi bisa icyatsi kibisi kandi gifite n'uruyange bigaragara ko igihe cyo kuba imyembe yakwera cyegereje, hirya yacyo cyegeranye n'ibindi biti bitandukanye.

Ubuhunzi bw'ibigori bufasha umuhinzi gutera imbere kuko igihe byeze bigeze igihe cyo gusarurwa, ashobora kubirya ndetse bimwe akabijyana ku isoko, bikamuviramo kubona amafaranga azifashisha mu bikorwa bigiye bitandukanye.

Umuhanda muremure wo mu cyaro ugiye urimo abantu batandukanye ukikijwe n'imyaka igiye itandukanye harimo amasaka, urutoki ndetse hagati muri urwo rutoki harimo amazu yubakishije amatafari ya rukarakara.

Igihingwa k'imyumbati ni igihingwa ngengabukungu kikaba gihingwa mu Gihugu hose kandi kikaba gifite n'agaciro ku isoko, iki gihingwa gishobora kuvamo ubugari cyangwa se umuntu akaba yanakirira aho.

Umurima uteyemo imigozi yera ibijumba, ifte ibara ry'icyatsi, abahinzi bahinga ibijumba, bibafasha mu rwego rwo kuzamura ubukungu bwabo, kuko babijyana ku isoko bakabona amafaranga yo guhaha ibyo bakeneye bindi.

Ubuhinzi buhurijwe hamwe bugari ni bwiza, kubera ko butuma habaho umusaruro mwinshi kandi ufatika ku masoko. Hano rero ndahabona igishanga kirimo abantu bahinze umuceri; ubona ko ari benshi kandi baba babyitabiriye cyane.

Umuntu wambaye ishati y'umutuku n'uturindantoki, ufite ibirayi mu biganza bye byombi, bigaragara ko yari yarakoze ubuhinzi bw'ibirayi none bikaba byareze, akaba ari kwishimira umusaruro uvuyemo.

Leta y'u rwanda ishishikariza buri muturarwanda guhinga imboga kugira ngo zimufashe kwirinda indwara zituruka ku mirire mibi, kandi imboga zifasha umuntu mu kuzamura ubukungu kuko iyo azihinze ashobora kuzijyana ku isoko bakamuha amafaranga.

Igihingwa cy'ibigori, gihinzwe ku buso bunini cyane, kizatanga umusaruro ugaragara kandi kigiye gikikijwe n'ibindi bimera bigiye bitandukanye, hakurya yacyo hari ibiti n'ibyatsi ndetse n'imisozi.

Ubuhinzi bw'ibigori ni ingenzi kuko igihingwa cy'ibigori ni igihingwa kizwi mu Rwanda kandi gihingwa mu duce dutandukanye, igihingwa cy'ibigori ni ingenzi kuko gishobora kuvamo ubugari, igikoma ndetse n'ibindi biryo bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bari mu isoko, harimo umugabo wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umutuku ndetse harimo n'abitwikiriye imitaka, ababyeyi bahetse abana kandi hari imifuka igiye ipakiyemo ibirayi byinshi.

Umuntu uhagaze wafashe ingofero yambaye, yambaye agasengengeri k'icyatsi, ipantaro y'umukara, yiteye kandi akitero ku ijosi rye ry'ukara, ahagaze mu ishyamba ry'ibiti binini cyane by'inganzamarumbo.

Imisozi miremire irimo amashyamba menshi, ubona ko iba yabuditse mu gihe cya mu gitondo. Mu Rwanda rero tugera imisozi myinshi irimo amashyamba kandi ni byiza ko aya mashyamba abungwabungwa kuko ari mu rugo h'inyamaswa zitandukanye ndetse akabafasha no gukurura umwuka mwiza duhumeka.

Ibiti byinshi bikikije amazi asa nabi atemba, muri byo hari igiti cyaguye muri ayo mazi ndetse hirya no hino hagiye hakikijwe n'ibyatsi by'amoko atandukanye.

Abantu bari mu nzego zitandukanye ubona ko bari mu murimo ushobora kuba ari umuganda. Harimo abambaye imyenda y'icyatsi bazwi nka daso, harimo abambaye imyenda y'ingabo z'Igihugu cy'u rwanda ndetse n'abaturage basanzwe bunamye barimo barafasha izo nzego zitandukanye gukora umuganda.

Ishyamba riteye ahantu hagari hanini cyane kandi muri iryo shyamba hagiye harimo amabuye n'ubundi bwoko bugiye butandukanye bw'ibyatsi, ndetse hamwe hari imirima ihahinze itarimo ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo utubara tw'umweru hagati ndetse no ku mpande werekeza hagati mu mashyamba, ubona ko ari umuhanda ugera ahantu kure cyane bityo kikaba byari bikenewe ko witabwaho kandi ukubakwa neza, bitewe n'uko ujya kure.

Umuzungu usutamye ari kureba mu bitunguru bimukikije niba byareze kugira ngo babisarure. Inyuma ye hari abandi bantu nabo bari kureba uburyo byifashe kandi harimo umusaza wambaye ingofero irimo amabara atandukanye, ndetse n'umugore witwikiriye umutaka ari gufotora.

Umugore wunamye, wambaye agapira, ukenyeye igitenge, ufite indobo y'umutuku, ubona ko arimo aruhira imyaka yateye, ari yo y'amashu, rero gutera imboga by'umwihariko amashu, uretse kuba byazanira inyungu umuntu ubikora, ariko ni no kugira ngo Abanyarwanda bagire indyo nziza.

Ahantu hifashishwa mu guhinga imbuto cyangwa se n'ibindi bihingwa bityo bakabyinaza bikahakurira ariko bakazajya kubitera ahandi, rero ni byiza ko imbuto zibanza guterwa ahantu nk'aha kugira ngo hirindwe wenda ibishobora kuzangiza.

Umugore wambaye agapira karimo uturongo tw'umweru n'umukara aricaye, mu biganza bye byombi ateruyemo urubuto rw'inanasi ari guseka, inyuma ye hari izindi mbuto zitandukanye nka wotameroni, imyembe, amacunga, indimu n'ibindi.

Umukecuru wunamye uri mu murima we urimo arahingira imyaka ye. Ari gukoresha macaku abagarira imyaka ye yateye, kugira ngo itarengerwa n'ibyatsi bikaba byamubuza umusaruro mwiza.

Ibihingwa birimo imbuto n'imboga byasaruwe, barambuye shitingi babishyiraho, muri byo harimo imiteja, inyanya, intoryi, karoti, ibitunguru, hamwe n'urusenda ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umuntu wambaye ingofero y'urugara, itaburiya y'umweru, afashe umukasi arimo arakata pavuro, isa umuhondo kandi hakaba hariho n'izindi pavuro zitarera zisa icyatsi kibisi.

Umugore wicaye imbere ye akaba hari ibitebo bibiri harimo icyuzuye inyanya n'ikindi arimo barazipakiramo, iruhande rwe hakaba kuko hari inyanya yasaruye, akaba ari kuzipakira kugira ngo azijyane ku isoko na zo zibe zamuha amafaranga.

Umugabo wambaye itaburiya afite ibara ry'icyatsi n'ipantaro ndetse na bote by'umukara, arunamye, ari gutunganya ibihingwa bye by'indabo, zimwe zifite ibara ry'umutuku ndetse n'icyatsi.

Umugabo wambaye ishati ya karokaro ndetse yambaye n'umukandara n'ipantaro kandi afashe ku mbuto ze yahinze z'amatunda ubona ko agiye kwera, akikijwe n'ibindi biti bigiye bitandukanye kandi muri uwo murima harimo harimo ipoto ijyana amashanyarazi hirya no hino.

Ikimera cy'ipapayi ni kimwe mu bimera na byo bigira intungamubiri zishobora gufasha ubuzima bw'umuntu kumera neza, ni ikimera kiri mu bwoko bw'imbuto nk'izindi zose.

Abantu bari mu myaka cyangwa se mu murima bahinzemo igihingwa cy'amashu, harimo umugore uteruye umwana uri ku mwonsa wambaye agatenge karimo umuhondo n'utudomo tw'umukara n'undi ufite indobo y'umuhondo urimo uruhira ayo mashu.

Abagore bagera kuri bane, harimo abambaye imyenda ya move, umukara n'umutu, ubona ko bishimye, bari mu murima munini cyane uhinzemo ibihwagari, ubona ko bitari byera neza.

Ubuhinzi bw'imbuto ni ingenzi kandi bugezweho mu Gihugu cy'u Rwanda. Urugero nk'ubuhinzi bw'amatunda ni ingenzi kandi aba ari umushinga mwiza kuko uteza imbere umuntu wawukoze. Urugero ndabona umugabo wambaye ikote ririmo umutuku, umukara ndetse n'agapira k'ubururu imbere ye, inyuma ye hari n'undi bari kumwe ubona ko bari mu murima wabo w'amatunda.

Ubuhinzi bw'imbuto ni ingenzi kandi ni ingirakamaro by'umwihariko inanasi ni kimwe mu gihingwa gihingwa n'abantu benshi hano mu Rwanda kandi kigira umusaruro ufatika bityo bikaba byazanira amafaranga umuntu wabukoze.

Kuhira imyaka ni byiza kuko hari igihe yumagara bitewe n'uko imvura idaheruka kugwa, ikaba yakangirika bityo bikaba byateza igihombo abantu bakoze ubwo buhinzi.

Ikibaya kinini cyane. Kikaba kiragirirwamo inka cyangwa se kikaba gihingwamo imyaka itandukanye ariko akenshi bikaba ari inzuri zifashishwa mu kuragirirwamo inka.

Umusaza wambaye imyenda idasa neza ariko bigaraga ko ari umuhinzi uri mu kazi ke, akaba nyine yambaye imyenda y'akazi. Afite indobo yari irimo amazi akaba ari kuyikoresha yuhira imyaka yahinze bityo kugira ngo itumagara ikaba yakwangirika.

Umuntu wambaye agapira k'umuhondo ukennyeye igitenge, afite umupira w'amazi, akaba arimo aruhira umurima we w'amashu yateye, bityo kugira ngo izuba n'iriva ribe ritatuma akakara, akaba yakuma.

Umuntu uri mu murima we uri guteramo umuti kugira ngo yice udukoko dutandukanye dushobora kwangiza imyaka ye bityo bikamutera igihombo. Yambaye umupira w'umutuku, ingofero y'ikigara, ipantaro y'umukara.

Umugore wambaye agasengeri ka move afite rozwari y'icyatsi mu ntoki ze yambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe, ari mu murima yateyemo imbuto ariko ubona ko zitari izakura arimo arazuhira kugira ngo ziticwa n'umwuma.

Abantu benshi bahagaze mu murima uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo imyumbati bari kuvomera ndetse hari n'abandi bari guhinga, inyuma yabo hari insina nyinshi.

Umugore ufite umupira w'amazi usa umweru, ubona ko arimo aravomerera ibihingwa bye yahinze kugira ngo biticwa n'umwuma cyangwa se n'izuba bikaba byakuma bikamuviramo igihombo.

Ikibaya kinini gitewemo igihingwa cy'ikigori, hagati y'ibyo bihingwa harimo imiyoboro y'amazi ifasha gutanga ubuhehere bityo kugira ngo ibyo bihingwa bidahura n'umwuma, hakuno kandi hari itiyo y'umukara irimo iramena amazi.

Igishanga kinini cyahinzwemo umuceri mwinshi kandi gikikijwe n'ibiti byinshi bigiye bitandukanye, uyu muceri, uravomerwa kuko usanga uhingwa ahantu hari amazi kugirango ubashe kwera neza.

Umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, n'ipantaro y'umukara n'ingofero, arunamye imbere ye hari amatiyo menshi ari mu muferege arimo arayakora, ni amatiyo bashyira mu mirima bityo kugira ngo bazajye yifashishwa mu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara, arahagaze mu ntoki ze zombi afitemo umupira wifashishwa mu kuhira imyaka, ahagaze mu murima uteyemo ibigori arimo arabyuhira.

Ikibaya kigari, gikikijwe n'imisozi iriho amashyamba. Muri icyo kibaya kandi hakaba harimo imirima ikozwe mu buryo bw'amaterasi, iteyemo ibiribwa bitandukanye, biribwa n'abantu.

Abantu bambaye amataburiya y'imyeru ndetse n'abandi bambaye amataburiya y'ubururu, bari mu ruzitiro rwubakishije ibiti rurimo inka zo mu rwanda zizwi ku izina inyambo, aha ngaha rero akaba ari mu rwuri aho izi nka zirisha.

Ubworozi bw'amatungo magufi nk'ingurube, ni ingenzi kandi bishobora guteza imbere umuntu ubukora, cyane ko ingurube ari itungo rikura vuba kandi ryororoka vuba. Bityo bizana amafaranga mu buryo bwihuse.

Umuntu wambaye ingofero y'umutuku, ipantaro y'umukara, amaboko yombi yayakosheje ku nka isa umukara n'umweru, hirya ye hari undi mugabo wambaye itaburiya y'ubururu ufite igicuba iruhande rwe, bigaragarare ko barimo barakama.

Ubworozi bw'amatungo ni umwe mu mishinga ikomeye kandi igira amafaranga yateza imbere uwukora, amwe mu matungo agaragara hano harimo inka ziri mu kiraro harimo iryamye ndetse n'indi ihagaze.

Inka nyinshi zigeze mu bwoko butandukanye zimwe zifite amahembe ndetse izindi nta mahembe zifite, kandi ku gutwi kwazo hariho iherena, hirya yazo hari ibiti bigiye bitandukanye by'amoko menshi kandi ibyatsi zirimo byarumye bisa nk'aho ari ku Mpeshyi.

Ikiraro kirimo inka zifite amahembe maremare kandi hari abavuzi n'amatungo baje gusuzuma niba nta ndwara zifite, harimo abambaye ibisurubeti bifite ibara ry'ubururu kandi hari umugabo wambaye ingofero ndetse na bote bifite ibara ry'umweru.

Abantu harimo uwambaye agapira k'umutuku n'ipantaro y'umukara n'undi wambaye ingofero n'undi usutamye uri gukama, bakaba bari mu rwuri rw'aho bororeye inka zabo.

Ubworozi bw'inkoko buteye imbere, butuma zitapfa cyangwa se ngo zatakwe n'udukoko cyangwa n'izindi ndwara zisanzwe zifata inkoko zikazica. Ibi rero ni byiza kuko iyo wabihuguriwe bigufasha kuba wakunguka cyane.

Ubworozi bw'amatungo magufiya by'umwihariko ingurube, ni bwiza kubera ko ingurube zirororoka kandi zigira n'amafaranga kandi uretse n'ibyo, ibizikomokaho nk'inyama, ni ibintu bikundwa cyane n'abantu benshi.

Ubworozi bw'inkoko ni umwe mu mishinga ikorwa n'abantu benshi mu Gihugu cy'u Rwanda, uyu mushinga rero ufite akamaro kenshi ushobora kukubyarira amafaranga kandi n'ibikomoka ku nkoko na byo bigira uruhare mu kugira ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'amatungo burimo amagufiya nk'ihene, ni ubworozi bwiza bushobora ku kuguha amafaranga, bwakubyarira inyungu nyinshi cyane bitewe n'uko amatungo magufi akenshi arororoka kandi vuba.

Ubworozi bw'inkoko na bwo ni ubworozi bwiza, kandi biba byiza iyo bukozwe n'umuntu ubizi cyangwa se wabihaweho amakuru, kugira ngo bimufashe kuba yakwita ku nkoko ze zikaba zitarwara indwara zitandukanye.

Ishyo ry'inyambo ziteze amahembe ziri mu rwuri aho ziri kurisha kandi hirya yazo hagiye harimo ibiti by'amoko agiye atandukanye bitatanye kandi hari n'igiti gihagaze kimeze nk'ipoto ijyana umuriro w'amashanyarazi mu duce tugiye dutandukanye.

Ubworozi bw'inka nziza z'inyambo ziri mu kiraro cyazo kandi hari abaganga b'amatungo baje gusuzuma niba nta burwayi zaba zifite, harimo abambaye ibisurubeti bifite ibara ry'ubururu ndetse n'umugabo wambaye bote n'ingofero by'umweru, hirya no hino hari ibyatsi bitandukanye.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni ingenzi kubera ko bishobora kugufasha kuba wakiteza imbere ndetse no kuba wasigariza amasoko, bitewe n'ibiyakomokaho, yababa nk'inyama, amata cyangwa se n'ibindi.

Ubworozi bw'inka ni ubworozi bwiza cyane by'umwihariko mu Rwanda kubera ko mu Rwanda bafata inka neza kandi bakayubaha, rero ni byiza ko niba woroye itungo nk'inka urifata neza, ukamenya ko rigomba kuvuzwa bityo kugira ngo rigire ubuzima bwiza.

Ubworozi bw'inkwavu ni bumwe mu bworozi bw'amatungo magufiya buteza imbere umuntu ubukoze, korora inkwavu rero bisaba kuzitaho cyane uzirinda ahantu hatose n'ibindi bintu bishobora gutuma zarwara.

Ishyo ry'inyambo zifite amahembe meza kandi hirya yazo hari umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu afite n'inkoni biragaragara ko ari umushumba wazo.

Ubworozi bw'amatungo ni bwiza kuko buteza imbere umuntu ubukora, by'umwihariko, iyo yabihuguriwe cyangwa akaba abifitemo ubumenyi buhagije kuko bituma afata neza inkoko ze, zikaba zitakicwa n'indwara.

Ubworozi bw'amatungo bwa kijyambere ni bwiza kandi buteza imbere ubukora kuko butuma amatungo yororoka, akabyara, akabyibuha kandi ntabe yarwaragurika.

Ubworozi bw'amatungo mu buryo bwa kijyambere ni bwiza kuko burinda inka cyangwa se amatungo yawe uburwayi bwa hato na hato bushobora no kuyaviramo urupfu bityo rero ni byiza korora mu buryo bwa kijyambere.

Ubworozi bw'amatungo magufi ni bumwe mu bugira uruhare mu iterambere ry'umuturage w'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cyose muri rusange, iyi ngurube ifite ibara ry'umweru kandi iri aho yororerwa.

Abantu bambaye imyenda irimo amataburiya y'umweru ndetse n'ubururu bari ahantu habugenewe haba inka zizwi ku izina ry'inyambo, bakaba barimo barazivura indwara zitandukanye.

Ubworozi bw'amatungo ni ubworozi bwiza kandi buteza imbere umuntu ubukora cyane ko muri iki gihe inka zihenze zifite agaciro kari hejuru, urabona ko uyu muntu afite inka nyinshi kandi ndetse akaba afite n'urwuri rwo kuziragiramo.

Amatungo abiri azwi ku izina ry'ingurube ari mu kiraro cyayo yunamye arimo ararya, ingurube nazo ni amatungo magufiya kandi yororoka vuba agira amafaranga.

Ubworozi bw'inkoko ni bumwe mu guteza imbere igihugu cy'u Rwanda kandi umuntu uzoroye ntashobora kurwaza bwaki kubera ko aba akungahaye ku bikomoka ku matungo harimo amagi ndetse n'inyama.

Igihugu cy'u Rwanda cyashyizeho uburyo bwo guteza imbere ibihingwa ndetse gishyiraho n'ububiko bwo kubika imbuto zizakoreshwa mu bihembwe bikurikiraho. Iyi mifuka igiye irimo imbuto izakwirakwizwa mu baturage kugira ngo babashe gutera imyaka ya kijyambere.

Imifuka isa ariko irimo impeke zitandukanye, izo mpeke ziri mu mabara menshi nk'umutuku, umukara, umuhondo n'ayandi kandi ziganjemo ibishyimbo, harimo ibunyobwa, harimo amashaza yumye n'amabisi n'ibindi.

Igihingwa cy'ikigori ni kimwe mu gihingwa ngengabukungu cya hano mu Rwanda gihingwa n'abantu benshi kandi mu gihugu hose, iki gihingwa kivamo igikoma, gishobora kandi kuvamo ubugari ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye isengengeri y'umweru kandi ku kuboko kwe kw'ibumoso yambayeho isaha ifite ibara ry'umukara; ari mu murima ari kubibamo imbuto kugira ngo zibashe kwera mu gihe runaka hirya y'iyo mirima hari ibiti by'amoko atandukanye.

Imbuto zitandukanye zirimo: ibishyimbo, amashaza, amabisi n' ayumye, hakabamo ibigori byumye by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibindi.

Ubworozi bw'amatungo ni bumwe mu bworozi buteye imbere ariko nanone busaba kwitonda kubera ko iyo utitaye ku matungo hari igihe arwara bikaba byayaviramo n'urupfu, ni byiza rero ko utumira abaveterineri cyangwa se abantu bazobereye mu kuvura no kwita ku matungo kugira ngo bajye bakumenyera ikibazo cyose amatungo yawe yaba afite.

Ubworozi bw'inkoko nawo ni umushinga ukomeye wateza imbere umuntu uwukora ku buryo bufatika ariko ni umushinga usaba kwitondera usaba amahugurwa ndetse no kubaza abantu babifitemo uburambe kugira ngo utaba wa guhombera.

Ubworozi bw'amatungo by'umwihariko inka, ni ubworozi bwiza kandi buteza imbere ubukora ariko na none bigasaba ko izo nka uzitaho uzishakira aba veterineri kugira ngo bazirinde kandi banazivure indwara zitandukanye zishobora kuzifata.

Umuveterineri wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki tw'ubururu, batumiye cyangwa se bakamuhamagaza kugira ngo aze kureba ibibazo amatungo afite kugira ngo abe yayavura.

Ubworozi bw'inkoko ni umushinga mwiza wateza imbere umuntu ubukora, rero kuba wakorora inkoko uretse kuba byakuzana amafaranga, bitanga n'amagi agira uruhare mu buzima bwiza, hano nahabona abantu babiri bambaye imyenda y'icyatsi bafite inkoko mu ntoki, ubunza aribo bazitaho.

Abantu babiri basutamye bambaye udupira turimo umweru ndetse n'andi mabara nk'umutuku n'umukara, hagati yabo harimo imbwa iryamye ku kiringiti, barimo barayivura bakoresheje inshinge n'indi miti.

Umushinga wo korora amatungo urugero nk'inka, ni umushinga mwiza ushobora kuguteza imbere cyane rwose kandi ugatanga n'amata ndetse n'inyama kubandi bantu batandukanye, ndabona umugabo wambaye itaburiya y'ubururu bisa nk'aho ari veterineri urimo uravura inka iri imbere ye.

Ubworozi bw'amatungo by'umwihariko inka, ni byiza cyane kuko inka zitanga umusaruro, haba uwumukamo cyangwa se n'inyama kandi ni umushinga ushobora kuguha amafaranga, rero ni byiza ko uzitaho, inyuma rero y'inka turi kubona hahagaze abagabo babiri bambaye amataburiya y'ubururu, bari kuvura iyi nka.

Abantu batatu bose basutamye umwe yambaye umupira w'umukara, undi yambaye umweru, undi yambaye ishati ijya gusa nka beje, hagati yabo hari imbwa iryamye hasi barimo baravura bigaragare nk'aho yari irwaye bakaba bari kuyiha ubuvuzi bw'ibanze.

Inka nyinshi zikurikiranye ziri ahantu zigomba kuba ziri baziteganyirije, zose zifite amahembe ateze neza, hirya hari abantu bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abandi bambaye ay'ubururu baje kuzivura.

Inyamaswa zo mu ishyamba ni zimwe mu nyamaswa zigirira umumaro igihugu cyacu cy'u Rwanda kuko zisurwa na ba mukerarugendo bagasiga amadovize kandi hano hari inzovu ziri mu mazi, hirya yazo hari ishyamba.

Inyamaswa zo mu ishyamba zigirira akamaro igihugu cyacu cy'u Rwanda, bitewe n'uko kubera ubwiza bwazo n'uburyo ziba zitangaje abakerarugendo baza kuzisura maze bakishyura amadovize, ndetse nazo zikunda kuba ziri kurisha ibyatsi byo mu ishyamba.

Mu nyamaswa zo mu gasozi harimo n'iyitwa gasumbashyamba ndende cyane irisha hejuru mu biti, na yo akaba ari inyamaswa ikundwa cyane na ba mukerarugendo iyo bari kuyitegereza baba bumva batahaga kuyireba.

Inyamaswa y'ingwe ni imwe mu nyamaswa z'ishyamba z'inkazi zizi guhiga kandi zigafata umuhigo, iyi rero urabona ko yitegeye isa nkaho itegereje kuba yasimbukira umuhigo.

Ubuzima bwo mu gasozi ni ingenzi birakwiye ko tubusigasira bityo kugira ngo nk'inyamaswa ziba mu mashyamba nazo zikomeze zigire ubuzima kandi zikomeze kubaho kugira ngo zitazacika bityo, tugakomeza kugira ba mukerarugendo baza kuzireba.

Inyamaswa zo mu ishyamba nazo zikwiye kuba zabungwabungwa bityo kugira ngo zigire ubuzima bwiza, bakazirinda ba rushimusi n'abandi bantu bazihiga kugira ngo dukomeze duteze imbere ubukerarugendo mu Rwanda, rero ni ngombwa ko tuzitaho muri rusange.

Mu nyamaswa z'ishyamba cyangwa se z'agasozi harimo n'ingwe, hakaba ari inyamaswa ifite uruhu rugizwe n'utudomo twinshi tw'umukara ndetse n'irindi bara rijya gusa nk'umuhondo, ikaba ihagaze rero ku giti.